Icyumba cy'ishuri, gisize irangi ry'ubururu ku nzugi no ku madirishya, aho hateyemo udutebe tw'umutuku n'akameza hagati, abana batoya bari mu kigero cy'imyaka ine n'itandatu, bicaraho bakiga neza.

Imbuga irimo ibyatsi byinshi aho bicajemo abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'itandatu, hari umukobwa imbere yabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara aho ari kugenda abaganiriza.

Icyumba giteyemo udutebe twiza, utw'ubururu, umuhondo, icyatsi n'ameza agiye ari maremare, hicayeho abana bafite udukarito bari kugenda bahererekanya, natwo turi mu mabara atandukanye.

Imbuga nini irimo umukungugu, hahagazemo abana benshi bari mu kigero cy'imyaka ine n'itanu, aho bakoze uruziga, hagati yabo hakaba harimo umurezi wabo w'umugore ndetse n'umugabo.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ku bikuta, n'ubururu ku madirishya, barambuyemo umukeka, aho hicayeho abana batoya b'incuke, biga mu irerero. Umumama ubitaho ari kugenda abahereza ibiryo.

Imbuga ngari cyane hamwe hari ibyatsi na ho ahandi umukungugu, hicayemo abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu n'itandatu, aho bari kumwe n'umurezi wabo wambaye itaburiya ari kugenda abafasha gusobanukirwa ibintu bitandukanye.

Icyumba cy'ishuri gisize irange ry'umuhondo harambuyemo imikeka ibiri umwe utariho abantu, undi ukaba wicayeho abana batoya biga mu irerero, bari kumwe n'umurezi wabo w'umukobwa ndetse n'uw'umugabo.

Icyumba k'ishuri giteyemo udutebe dutoya ndetse tugiye turebana n'utumeza, byose bisize amarangi meza, aho higiramo abana b'incuke bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inzu yubakishije karabasansi y'umukara ikaba iteye irangi ry'umukara. Hanze hari kandagirukarabe aho abana b'incuke batonze umurongo bigishwa gukaraba n'umurezi wabo.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cy'umukara, hahagaze abana batoya bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, aho bari kugenda bandika ku kibaho buri wese imibare ye kugira ngo yerekane ibyo azi.

Icyumba giteye umucanga, hicayemo abana bari mu kigero cy'imyaka itatu n'itanu, aho babaramburiye umukeka bakaba barambije. Imbere yabo hari umurezi uri kugenda abereka ku cyapa ibihashushanyije.

Icyumba cy'ishuri gifite amatafari ahiye ariko yanduye cyane, ndetse n'intebe z'imbaho zishaje. Hicayemo abana b'abanyeshuri, aho bagiye bafite mudasobwa ntoya ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Imbuga irimo abana b'abanyeshuri bambaye udushati twa buresiyeri n'amajipo y'ikaki, aho bari mu mikino igiye itandukanye, kimwe mu bintu bishimisha abana kandi bigafasha mu mikurire yabo.

Abana b'abanyeshuri bahagaze mu kibuga aho bambaye impuzankano z'umukara, imbere yabo hari umwarimu wabo wambaye umupira w'umukara, ibyumba by'ishuri amabati yabyo asize irangi ry'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, urugi rwayo rukaba rusize irangi ry'umweru. Akaba ari ibiro bikoreramo umuyobozi, aho abaturage iyo bamukeneye baza bagakomanga, bagategerereza hanze ko abakira.

Ikigo cy'amashuri gifite ubwiherero, aho bumwe bushaje na ho ubundi bukaba bwubatswe vuba ariko kubera ko bukoreshwa nabi na bwo bwatangiye kwandura, hasizeho irangi ry'umweru, umukara ndetse ku nzugi hariho iry'icyatsi.

Ku kigo cy'amashuri agaragara nkaho ashaje cyane, mu mbuga yacyo harimo ibyatsi ndetse hari n'ahari umukungugu, huzuyemo urujya n'uruza rw'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara rya blue ciel n'ikaki.

Urugo rwubakishije ibikori, hakaba hariho urugi rukoze mu ibati. Hahagazemo abana bari mu kigero cy'imyaka itanu n'irindwi, aho bafite amakayi n'udutabo bakaba bari kumwe n'umurezi wabo.

Icyumba cy'ishuri cyateraniyemo abana bakeya abandi bakaba basohotse, bicaye hasi bari kwigaragura aho ababyeyi babo ndetse n'abarezi bakunda kubakangurira kugira isuku ndetse no kwitwara neza.

Icyumba cy'ishuri gifite amatafari ahiye ku kibaho gisa icyatsi, hariho porojegiteri aho bashyizeho ibice bigize mudasobwa kugira ngo abanyeshuri babashe kuyisobanukirwa n'ubwo batayireba.

Icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye,, aho ku kibaho handikishijeho ingwa y'umweru, kuva ku mubare makumyabiri na rimwe kugera kuri mirongo ine mu rurimi rw'Igifaransa, aho abanyeshuri benshi baba batarwumva.

Icyumba cy'ishuri kirimo isima yanduye, aho hateretsemo intebe z'imbaho zimwe zavunaguritse, abana bakaba bicaye kuri mudasobwa bari kumwe n'umurezi wabo uri kuberekera uko ikoreshwa.

Ikigo cy'amashuri, gifite imirima, aho hahinzemo intoryi, ibishyimbo ndetse n'imboga. Akenshi ibyo bateka ni ho baba babikuye ku buryo nta mafaranga menshi, bibatwara bahaha.

Icyumba cy'ishuri gihuriyemo abana bamwe bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, abandi kaki, bicaye ku ntebe z'imbaho aho bamwe bakurikiye, abandi barangaye aribyo bituma bamwe baba abahanga abandi abaswa.

Abana b'abasore bambaye impuzankano z'amashati y'umweru amapantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze, bicaye ku ntebe y'urubaho aho bari kugenda bungurana ibitekerezo buri wese afite impapuro z'umweru ari kugenda yandikaho.

Mu mbuga ngari cyane yateraniyemo imbaga y'abantu benshi, aho hubatswe amatente. Hari ikibuga cya basikete, aho umusore wambaye imyenda y'umuhondo n'amasogisi maremare y'umukara ari gushyiramo umupira.

Icyumba cy'ishuri gifite imiryango igiye itandukanye, aho amabati amwe asize irangi ry'umutuku na ho andi akaba ari iry'ubururu. Isima yaho yaracukuritse kubera ko hamaze igihe kinini batongera kuhitaho.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu cyumba kirimo akabati kamanitsemo ibitabo by'ubwoko butandukanye, aho bigiye bimanitse ukurikije uko amasomo arimo yitwa.

Icyumba gifite amatafari ahiye, aho hicayemo abana b'abanyeshuri. Hateretsemo ameza asize irangi ry'ubururu, aho hateretseho amasahani, buri wese akaba ari gufungura, umurezi wabo abahagaze iruhande.

Icyumba kirimo intebe nyinshi z'imbaho aho abazikora iyo barangije bazizana kugira ngo abaza kuzigura bazabashe kuzibona, akenshi zigurwa n'ibigo by'amashuri biba byarafashe isoko.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero k'imyaka icumi na cumi n'itanu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse na kaki, bari gufata ifoto y'urwibutso aho bari kumwe n'abarezi babo yaba abagore ndetse n'abagabo.

Icyumba k'ishuri gisize irangi ry'umuhondo, hariho ikibaho cy'umukara ndetse n'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ari kugenda yandikishaho ingwa y'umweru. Iruhande rwe hari ameza ateretseho ibitabo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Kigoma, aho ari indangamirwa zigendera kuri kirazira ndetse n'indangagaciro nko kubaha, gusabana, kubahiriza igihe, gukunda igihugu ndetse no kugira isuku.

Abana b'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, bafashe icyapa kirekire cyanditseho IPRC Huye. Bari kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'icyenda.

Imbuga irimo ibyatsi yahurijwemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, harimo umugabo uhagaze imbere yabo ari kubaganiriza ndetse n'undi mugore wicaye ku ntebe.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu karere ka Nyanza, gifite indangagaciro zigenderaho ku buryo abanyeshuri baje kuhiga batari ubumenyi gusa bahakura ahubwo babona n'imico myiza baharonkera.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi, bambaye ibisurubeti, imipira y'umukara, ndetse umwe yambaye uw'umweru n'ingofero mu mutwe. Bari kwiga ubwubatsi, aho bari kwimenyereza bubaka urukuta rurerure, rugizwe n'amatafari.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, abanyeshuri bahagaze hanze, bambaye impuzankano, ziri mu ibara ry'umweru n'umukara. Hanze hateye ibiti byinshi, ndetse n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, riri mu mabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini, giteretsemo akabati, aho bagiye bapangamo ibitabo bakurikije ubwoko bwabyo. Hari umugabo ufite agatoya arimo gusoma, aho agenda ayobora abifuza kuzamo bose.

Ibyumba by'amashuri bikiri gukorwa neza aho bitararangira. Bamaze gushyiraho amatafari ahiye ndetse n'inzugi, zisize irangi ry'umutuku. Ariko hasi hari amabuye aho batarazana isima ngo batangire gupavoma.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa y'umweru, aho abanyeshuri baba bagomba gukurikira kugira ngo igihe cyo kubazwa nikigera bazabone ibyo basubiza ntibatsindwe n'iryo somo.

Ikibuga bakiniramo vole, aho hari amakipe abiri atandukanye, imwe yambaye imyenda y'umutuku na ho indi iy'umweru. Imbere yabo kandi hari umusifuzi wabo ushinzwe kuvuga ikipe yatsinze cyangwa se ikoze amakosa.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye: nk'ameza, intebe, mudasobwa, projecteur ndetse n'ibindi. Aho hicayemo abana b'abanyeshuri, bakurikiye bahanze amaso imbere ku kibaho.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abana bagiye bambaye iniforume, aho umwarimu wabo ahagaze imbere ku kibaho ari kugenda yandika, yambaye umupira urimo utubara tw'umutuku, umukara ndetse n'umweru ndetse n'inkweto zifunze.

Icyumba kirimo abagabo bambaye ibisarubeti by'umukara undi yambaye ikote ririho ikirango cy'idarape ry'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, aho bari kugenda baganira ingingo zigiye zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, abana b'abanyeshuri bambaye inifomo y'umweru n'ikigina, bicaye ku ntebe z'imbaho, aho mugenzi wabo ahagaze hagati yabo abaganiriza.

Ikigo cy'amashuri aho ibyumba byubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya bisize irange ry'icyatsi naho amabati iry'ubururu, harimo abanyeshuri bagiye basohoka ndetse n'ibiti by'amapera.

Icyumba gifite ibitabo bigiye bitandukanye, aho biri mu kabati iby'ubwoko bumwe biri ukwabyo n'ibindi ku rundi ruhande, iyo uje gusoma barakuyobora bakakwereka ibyo wifuza aho biherereye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru karimo amapave, hari gucamo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bahetse n'ibikapu. Hepfo yawo hari amazu yubatse neza ndetse n'ibiti by'imikindo.

Icyumba cy'ishuri hicayemo abana bambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amapantaro y'ikaki, aho mugenzi wabo abahagaze imbere ari kugenda abasobanurira aho batumvise neza ndetse na bo bakajya bamubaza ibibazo.

Ibyumba by'ishuri byubatse mu buryo bugezweho, aho hari ibiri hejuru ndetse n'ibiri hasi, bizwi nka etaje. Hanze hari kandagira ukarabe iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'akabase kajyamo amazi, gafite ibara ry'umutuku.

Icyumba gisize irange ry'umuhondo akaba ari kigari cyane, aho cyahuriwemo n'imbaga y'abantu baje kwirebera abakinnyi. Bakaba bambaye imipira y'umweru hejuru igiye iriho nimero zabo ndetse n'udukabutura tw'umutuku.

Icyumba cy'ishuri, giteye umucanga, ariko wanduye, hometseho ikibaho cy'umukara ,cyandikishijeho ingwa y'umweru. Abanyeshuri iyo bahageze, baragihanagura, kugira ngo umwarimu naza, aze kubona ko kimeze neza.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru amadirishya yayo ariho irangi ry'umukara, hariho icyapa kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda aho bagaragaza ko hari ibyumba by'amashuri.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, hicayemo umugabo wambaye ipantaro ya kaki, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho ko ari ishuri ryigisha ubuganga ndetse n'ibijyanye n'imiti.

REG ni ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, aho cyasuye inyubako, aho cyubatse amatente y'umweru hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'ubururu yabazanye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi. Hicayemo abaganga babiri uw'umugore ndetse n'umugabo. Aho bari kugenda bafashanya kumva ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kisize irange ry'ubururu, aho hateyemo igitanda gishashe neza, bakaba barambitseho n'umusego. Hejuru hari akuma bamanikaho imyenda ndetse na purize bacomekaho telefone.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, aho hari amatara abonesha neza, utubati turimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa abanyeshuri bifashisha.

Imbuga nini cyane iparitsemo imodoka iri mu ibara ry'umukara ikaba irimo amapave, imbere yayo hari amazu meza ndetse n'indabyo ziri mu mavaze.

Icyumba cyateguwe neza, aho hateyemo intebe, buri wese yicaye yisanzuye. Bateretse uducupa tw'amazi, ku tubaho turi imbere yabo. Umukobwa w'umuzungu, ahagaze imbere yabo aho ari kugenda abaganiriza.

Urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyenda isa: amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, aho bahagaze imbere ku rubyiniro. Biteguye kuba basusurutsa abitabiriye iki gikorwa, aho hari ibyuma byinshi by'umuziki.

Icyumba cy'ishuri giteyemo intebe zigezweho, aho buri munyeshuri aba yicaye wenyine yisanzuye kugira ngo aze gukurikira, harimo umusore wambaye ishati y'umweru afite mudasobwa iruhande rwe ndetse n'igikapu ayitwaramo.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hateraniyemo amakipe abiri, ndetse n'abaje ku bafana, aho bakinira basketball ndetse na volley ball, aho bagiye kuba bari guhanganira.

Icyumba kigari kirimo amatara abonesha neza harimo utubati tugiye turimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, hagati yaho hateretsemo ameza maremare ndetse n'intebe aho uje gusoma yicara afite umutuzo.

Icyumba gisize irange ry'umweru ndetse n'umuhondo, ku madirishya iry'ubururu. Hateyemo intebe nziza, aho buri wese yicaye wenyine kandi yisanzuye. Imbere yabo hari umugabo wambaye kositime uri kubaganiriza.

Icyumba cyahuriwemo n'abaganga bambaye amataburiya, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ubaye utarabihuguriwe utamenya icyo bikora ariko kuko babyize, bo bari kwigishanya uburyo bagenda babikoresha.

Iycumba kirimo igitanda kigerekwa aho umwe aryama hasi naho ndi hejuru, gishasheho amashuka y'umutuku ndetse barambitseho n'umusego, hari akabati kabikwamo imyenda ndetse n'inkweto n'ameza aterekwaho uducupa.

Sale nini kandi ngari cyane ihurirwamo n'abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi, imbere hateguwe ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo kandi intebe z'umutuku ndetse n'ubururu.

Inzu nziza yo mu bwoko bwa kadasiteri, isize irange ry'umutuku ku mabati, n'iry'umweru ku bikuta. Ifite amadirishya meza, ndetse hanze hari n'ahantu ho kugama. Haruguru yayo hari n'ibyatsi byinshi.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo amatara abonesha neza, hateyemo ameza ndetse n'intebe bikoze mu mbaho, aho hicayemo abantu b'urubyiruko, buri wese imbere ye hateretse mudasobwa ari kwifashisha.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite amabati n'inzugi by'umukara. Ni isomero rikuru aho harimo ibitabo by'ubwoko butandukanye bipanze mu buryo bwiza, aho icyo ushaka ukibona bitakugoye.

Inzu nziza zubatse mu buryo bwa etaje, aho zisize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yazo hari ubusitani buteyemo pasiparume ndetse n'ibiti birebire, aho bigiye bifite amashami agandaye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, aho kiriho ikirango cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye. Barerekana uduce aho hagiye hari amashuri, ibyumba by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa.

Icyumba giteguye neza, gisize irangi ry'umweru, hateyemo ibitanda bibiri bishashe neza. Aho harimo n'amarido, akabati kabikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'intebe yo kwicaraho.

Icyumba cy'isomero kirimo ibitabo by'ubwoko bugiye butandukanye. Aho haba hari umukozi ushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka, iyo uje umubwira ubwoko bw'ibyo wifuza akakuyobora akurikije aho bibitse.

Icyumba kirimo akavuyo kenshi,l aho ameza arimo ari abiri, amwe ateretseho ibitabo, andi ariho udukoresho tugiye dutandukanye, hari kandi akabati gapanzemo ibitabo byinshi.

Umuhanda urimo igitaka, haparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'indi isize irangi ry'umweru, iriho ikirango kigaragaza ko ari iya kaminuza y'u Rwanda.

Sale nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye nko kureba umupira, kumviramo inama, kwakira abahanzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo intebe zirimwo ibara ry'umutuku, aho hagiye hicayeho abantu.

Icyumba cyiza gisize irange ry'umweru, aho harimo igitanda gishashe neza, barambitseho umusego, umugozi wa terefone ndetse na terefone ubwayo, iruhande rwacyo hari akabati gateretseho amavuta, amaparufe ndetse n'ibindi.

Icyumba gisize irangi ry'ubururu, hakaba hateretsemo ameza ndetse n'intebe ebyiri, byose bikoze mu mbaho. Ku meza hariho utujerekani dutatu twarindwi, ndetse n'agakoresho gakoreshwa gashyushya amazi, kazwi nka keto.

Icyumba cyiza kirimo utubati tubiri aho habikwamo imyenda ndetse n'inkweto, hejuru hamanitseho amavarize manini abikwamo ibikoresho mu gihe cyo gutaha, hari kandi n'agatebe ka sheze.